Ubuhinzi bw imyanya, iyo bukozwe kijyambere, bukitabwaho uterwa imiti ku gihe, butanga umusaruro uhagije, abahinzi bazo bakiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga bukozwe kijyambere, bugomba guterwa imiti yo kurwanya udukoko kugira ngo butange umusaruro uhagije ku isoko.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu buhinzi, mu rwego rwo kurwanya ibisimba, n'ibyonnyi byimyaka, kugira ngo umusaruro uzaboneke ari mwinshi kandi mwiza.

Imbuto yigihingwa cy'ibigori yatunganyijwe, ni imwe mu mbuto zitanga umusaruro uhagije maze abahinzi bakiteza imbere.

Ibuhinzi bukozwe kijyambere ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro yaba ku bacuruzi, abahinzi ndetse n'abaguzi bakabona umusaruro uhagije.

Mu buhinzi bw'inyanya bukozwe kijyambere, ni ngombwa gutera imiti yica udukoko, kugira ngo umusaruro uziyongere.

Imiti yifashishwa mu kwica udusimba n'ibyonnyi byangiza umusaruro w'imboga, kugira ngo haboneke umusaruro wujuje ubuziranenge.

Ifumbire yo mu bwoko bwa ire, ni imwe mu mafumbire yifashishwa n'abahinzi, mu kongera umusaruro uhagije mu bihingwa byabo.

Ikiribwa cy'amafi ni bimwe mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, no kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana.

Uburobyi bw'amafi ni bumwe mu buryo butanga akazi ku bantu benshi batandukanye, haba abarobyi cyangwa abacuruzi b' amafi.

Ubwoko bw'amafi bunyuranye nka bimwe mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turwanye imirire mibi.

Amafi akungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye, zikenerwa mu kurwanya imirire mibi, n'igwingira mu bana.

Umusaruro w'isambaza, nka kimwe mu biribwa gikungahaye ku ntungamubiri, abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amafi ni ikiribwa, gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye, gikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu rwego rwo kurwanya imirire mibi.

Umusaruro uhagije w'amafi nka bumwe mu buryo bwo guteza imibereho abacuruzi bayo, ndetse no guhaza isoko mu biribwa.

Ifunguro riteguranwe isuku, rigizwe n'ibikomoka ku matungo, imboga n'imbuto, mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, n'igwingira mu bana.

Ifi ni kimwe mu biribwa gikungahaye ku ntungamubiri, twifashisha turimo kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana ,ndetse n'abantu bakuru bakaba bakeneye intungamubiri ziyivamo.

Umusaruro w'amafi, nka kimwe mu biribwa gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, aho imibiri yacu iyikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abashinzwe umutekano wo mu mazi barimo kumurika ibikoresho bishyashya, byifashishwa mu kazi kabo ko gutabara no gucunga umutekano w'abaturage.

Igihingwa cy'ibijumba, nka kimwe mu bihingwa bihingwa n'abaturage, mu rwego rwo kurwanya inzara, no kwihaza mu biribwa byera mu gihe gito.

Ubuhinzi bukozwe kinyamwuga cyangwa kijyambere, ni bumwe mu buryo buteza imbere abahinzi, maze abaturage bakabona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bw'ibiti bitandukanye, nka bimwe mu bihingwa bitanga umusaruro w'imbaho, zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, zikorwamo ibikoresho bitandukanye.

Igihingwa cy'amashaza, ni kimwe mu bihingwa byifashishwa n'abahinzi mu kurumbura ubutaka no gutanga umusaruro w'ibyo kurya bihagije.

Ubuhinzi bw'ibirayi buhinzwe kijyambere ni bumwe mu buryo butanga umusaruro uhagije, ku bahinzi no ku isoko, abantu bakabona ibiribwa bihagije.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bumwe mu buhinzi bukorwa mu kajagari, bityo ntibutange umusaruro ushimishije ku bahinzi barwo.

Ubuhinzi bw'imboga ni bumwe mu buryo bwifashishwa, mu kurwanya imirire mibi mu bana ndetse n'abantu bakuru. Bugatanga n'amafaranga ku bacuruzi b'imboga.

Ubuhinzi bw'avoka ni bumwe mu buhinzi buteza imbere ababukora, bukinjiriza igihugu amafaranga, hashingiwe ku musaruro ubuvamo.

Igihingwa cy'imboga ni kimwe mu bihingwa byifashishwa mu guteza imbere abahinzi, no kurwanya imirire mibi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibitunguru ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro mu gihe gito ku bahinzi babyo, n'umusaruro uhagije ku isoko.

Ubutubuzi bw'ibiti bitandukanye, harimo avoka, geveriya, ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi mu kurwanya isuri.

Ubuhinzi bw'imbuto, ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro mu gihe gito, bikinjiriza amafaranga abahinzi babwo.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo nka bumwe mu buryo bwifashishwa mu kurwanya inzara n'imirire mibi no guteza imbere abahinzi babwo.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi, urimo gukurwa mu murima kugira ngo ushyirwe mu mifuka yabugenewe, mbere yuko woherezwa ku isoko.

Igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu byinjiriza igihugu amafaranga menshi. Bigatanga n'akazi ku bantu benshi.

Urubuto rw'avoka, ni rumwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye, zirwanya imirire mibi n'igwingira mu bana imibiri yacu ikeneye.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibiribwa birimo ibishyiyimbo, pavuro ibijumba ibirayi, n'ibindi bitandukanye.

Umusaruro w' igihingwa cy' imyumbati weze neza urimo gutunganywa, washyizwe ku bwanikiro rusange, mbere yuko ushyirwa ku isoko.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu, ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro uhagije iyo bwitaweho, kandi bugakundwa no ku isoko.

Ubuhinzi bw'ibihaza ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro uhagije ku bahinzi, umusaruro wabwo ukifashishwa mu kurwanya imirire mibi.

Umusaruro w'igihingwa cya puwavuro, nka kimwe mu bihingwa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, zifashishwa mu guhangana n'imirire mibi n'igwingira mu bana.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukozwe kinyamwuga, ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro uhagije ku isoko, bigateza imbere abahinzi babwo ndetse n'abacuruzi babyo.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro mu gihe gitoya, iyo bwitaweho n'aborozi babwo babikoze kinyamwuga.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibitunguru, iyo witaweho numwe mu misaruro ibikwa igihe kirekire, maze ikazatanga amafaranga mu gihe kiri imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori bukozwe kijyambere ni bumwe mu buryo butanga umusaruro uhagije ku isoko; abahinzi bakiteza imbere, n'abacuruzi bakabona umusaruro uhagije wo kugurisha.

Urubuto rwa avoka ni rumwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, zikenerwa n'imibiri yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro ku borozi babwo, mu gihe gito kandi bidasabye igishoro cyinshi.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi bigaragara ko byeze neza kandi ari binini, biri mu mifuka yabugenewe ngo bigurishwe bitange amafaranga ku bahinzi babyo.

Voka zo mu bwoko bwa Hasi, ni zimwe muri voka zikunzwe ku isoko mpuzamahanga, kuko zivamo ibintu byinshi bitandukanye, nk'amavuta yo kwisiga n'ayo kurya.

Inanasi igihingwa gitanga umusaruro ku bahinzi bacyo, kandi kikavamo ji zitandukanye, zikunzwe ku isoko.

Ubuhinzi bw'imboga zitandukanye, ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abahinzi n'abacuruzi, mu kwiteza imbere mu buzima bwa bo bwa buri munsi.

Umusaruro w'imboga zitandukanye ni imbuto, ni bimwe mu biribwa byifashishwa mu kurwanya imirire mibi, no gutanga amafaranga ku bahinzi n'abacuruzi babyo.

Ubworozi bw'ihene zorowe kijambere, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro mu gihe gito, kandi bugafasha mu kwihaza ku bikomoka ku matungo.

Igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa biteza imbere abaturage n'abahinzi batandukanye, kuko cyoherezwa mu mahanga kikatuzanira amadovize.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibijumba nka bimwe mu bihingwa byifashishwa mu guteza imbere abahinzi babyo, no gutunga imibiri y'ababihinga, kuko bikungahaye kuri vitamini nyinshi zitandukanye.

Ubuhinzi bukozwe kijyambere butanga umusaruro ku gihugu, bugateza imbere ababukora ndetse bakihaza mu biribwa.

Umusaruro w'inyanya nka bumwe mu buhinzi bufasha abahinzi babwo, kurwanya imirire mibi no gutanga amafaranga ku bahinzi n'abacuruzi babwo.

Abaturage benshi bagizwe n'abagabo n'abagore, barimo gufata ingemwe z'ibiti, kugira ngo bajye kubitera mu mirima yabo, mu rwego rwo kurwanya isuri.

Ubuhinzi bw'igihingwa cy'inanasi, ni bumwe mu buhinzi butanga amafaranga ku bahinzi babwo, yaba abakoramo imirimo n'abaguraga umusaruro wazo.

Ubuhinzi bw'urutoki bwa gakondo burimo kugenda bucika, bugasimbuzwa ubuhinzi bw'urutoki bwa kijyambere, kugira ngo haboneke umusaruro uhagije ku isoko.

Avoka, urubuto rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi, imibiri yacu ikenera mu buzima bwa buri munsi, kandi ikaba n'urubuto ruteza imbere abahinzi ba avoka.

Ubuhinzi bw'igihingwa cya voka, ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro, bukinjiriza abahinzi babwo agatubutse iyo bwitaweho bugahingwa ku buso buhagije.

Igihingwa cy'ibigori ubona ko kizatanga umusaruro, ku bagihinze bizafasha abaturage kwihaza mu biribwa, no kwiteza imbere.

Isoko ricururizwamo, ibicuruzwa bitandukanye ibyiganjemo ari ibiribwa, kugira ngo abacuruzi babashe kwiteza imbere bo n'imiryango yabo.

Umusaruro w'igihingwa cy'amateke, ugaragara ko weze neza nka kimwe mu biribwa gikungahaye ku ntungamubiri yacu ikeneye mu buzima bwa buri munsi.

Igihingwa cy'ibirayi ubona ko gihinzwe ku buso bunini bigaragara ko kizatanga umusaruro uhagije, kandi ushimishije abahinzi babwo bakiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga bukozwe kinyamwuga ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro ku bahinzi babwo, ndetse n'umusaruro ku isoko.

Igihingwa cy'ibigori nka kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ushimishije ku bahinzi, bityo bigafasha abahinzi mu kwihaza mu biribwa.

Urubuto rw'ipera ni rumwe mu mbuto zititabwaho cyangwa rudakunzwe ku isoko, kandi rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye zikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Igiti cya avoka, ni kimwe mu bihingwa byifashishwa n'abahinzi mu kwiteza imbere, mu buryo bw'amafaranga no kurwanya imirire mibi.

Avoka zo mu bwoko bwa hasi, zimwe mu mbuto zikunzwe ku isoko mpuzamahanga, kuko zivamo amavuta n'ibindi bitandukanye.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibirayi , urimo gukusanywa ngo ushirwe mu mifuka yabugenewe, mbere yo koherezwa ku isoko, kugira ngo ugezwe ku baguzi.

Ipapayi za kizungu ni zimwe mu mbuto, zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. aho imibiri yacu iyikenera buri munsi.

Ubuhinzi bw'imboga ni bumwe mu buryo bwifashishwa n'abantu benshi mu kwiteza imbere no kurwanya imirire mibi mu miryango yabo.

Ubworozi bw'inkoko bukozwe kijyambere ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro uhagije ku isoko, tukabona ibikomoka ku matungo bihagije.

Urubuto rwa avoka ni rumwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, kandi zikavamo n'ibiribwa bitandukanye ndetse n'amavuta.

Amapera ni zimwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, aho abacuruzi bayo, n'abahinzi bayo, abafasha kubona amafaranga,..

Indimu ni urubuto rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi. Aho rukenerwa n'abantu benshi, kandi rukifashishwa mu gukora imiti.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibinyomoro nka kimwe mu bihingwa, biteza imbere abacuruzi n' abahinzi babyo, kandi kikaba igihingwa gikungahaye, ku ntungamubiri zikenerwa n'imibiri yacu.

Umusaruro w'ibihaza, nka kimwe mu bihingwa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, kandi bigateza imbere abahinzi, n'abacuruzi babyo.

Igihingwa cy'amateke ni kimwe mu bihingwa bikundwa n'Abanyarwanda kubera ko bitera imbaraga imibiri yabo, bagakora bafite ingufu.

Abahinzi batatu barimo guhinga ubutaka bategura aho bazahinga imbuto, kugira ngo bazabone umusaruro mwiza ushimishije.

Igihingwa cy'amashu nka bimwe mu bihingwa byifashishwa mu guteza imbere abaturage, ndetse no kurwanya imirire mibi, kuko ari imboga nziza.

Ibiribwa by'ibijumba ni bimwe mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri imibiri yacu ikenera, mu buzima bwa buri munsi, ndetse bigatanga n'amafaranga ku bahinzi babyo.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye. Ni bumwe mu bucuruzi bufitiye abaturage akamaro, kuko buborohereza kubona imbuto bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Igihingwa cy'ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa bikungahaye ku ntungamubiri imibiri yacu ikenera, mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi kigatanga n'amafaranga ku bahinzi n'abacuruzi babyo.

Imbuto y'amajyeri, irimo gutunganywa ku buryo bwa kijambere, kugira ngo izashyirwe mu butaka, izatange umusaruro uhagije.

Umusaruro w'igihingwa cy'ubunyobwa, nibumwe mu buryo, abahinzi bifashisha, mu kwiteza imbere, hagurishwa umusaruro uba uvuyemo.

Umusaruro w'igihingwa cy'ubunyobwa, nka kimwe mu bihingwa byuje intungamubiri, kandi gitanga amafaranga ku bahinzi babwo n'abacuruzi.

Igihingwa cy'amasaka kigaragara ko kizatanga umusaruro ushimishije, aho kizifashishwa mu gukoramo ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukorewe mu nzu zabugenewe, ni bumwe mu buhinzi bugezweho butanga umusaruro n'imbuto nzima zikenewe n'abahinzi.

Ibishyimbo ni ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, kandi gikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko gitanga intungamubiri zikenewe.

Umusaruro w igihingwa cy'ibigori, ugaragara ko weze neza, wanitse mu bwanikiro bwabugenewe, kugira ngo utunganwe uzoherezwe ku isoko.

Ibihingwa by'igihwagari, ni bimwe mu bihingwa byifashishwa n'abahinzi mu kwiteza imbere, kuko umusaruro wabyo uvamo amavuta yo kurya meza.

Igihingwa cy'ikawa, ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amafaranga menshi, bigatanga n'akazi ku bantu benshi.

Igihingwa cy'ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa, bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, zikenerwa n'imibiri yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umusaruro w'umuceri wamaze gutunganywa neza, aho washyizwe mu mifuka yabugenewe, mu gihe utegerejwe koherezwa ku isoko.

Umumama urimo gutunganya umusaruro w'igihingwa cy'ibigori, awushyira mu mufuka wabugenewe, kugira ngo ubikwe utagira umwanda, mbere yo gushyirwa ku isoko.

Igihingwa cy'ibishyimbo gihinze ku buso bunini, ubona ko kizatanga umusaruro uhagije ku bahinzi babyo noneho tukabona umusaruro mwinshi ku isoko.

Ubuhinzi bw'imiteja ni bumwe mu buhinzi bwera mu gihe gito, bugatanga ibyo kurya byifashishwa mu kurwanya imirire mibi n'amafaranga ku bahinzi n'abacuruzi bayo.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibiribwa nk'ibishyimbo, ibigori n'ibitoki, hakabamo ibikoresho byo mu nzu, n'ibikapu, udupaniye n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa cy'ibishyimbo, ni kimwe mu biribwa gikenerwa n'abanyarwanda mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubera gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye.

Igihingwa cya soya ni kimwe mu bihingwa bikungahaye, ku ntungamubiri nyinshi zikenerwa n' abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bigufi ni bumwe mu buryo bwifashisha n'abahinzi mugutanga umusaruro wbiribwa bihagije mu gihe gitoya.

Umusaruro w igihingwa cy'ubunyobwa, weze ku kigero gishimishije, ushyizwe mu mifuka yabugenewe, mbere yo koherezwa ku isoko, kugira ngo ugurishwe.

Inka zororewe mu biraro, zitanga umusaruro uhagije, ku borozi bazo, kuko ifumbire ziba zitayitagaguje, ku gasozi.

Ubworozi bw'inkoko zitera amagi, ni bumwe mu bworozi bufasha abaturage kubona umusaruro w'ibikomoka ku matungo mu gihe gito kandi byoroshe.

Inka zororewe mu rwuri ruhagije zitanga umusaruro utubutse w'amata bigafasha aborozi bazo kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo maremare, iyo bukozwe kinyamwuga butangaga umusaruro uhagije w'amata, n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro, mu gihe gitoya bugakungahaza aborozi bazo.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere, iyo bwitaweho ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro uhagije mu gihe gitoya, aborozi bazo bakiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo ni bumwe, mu buryo bwifashishwa n'abaturage mu gutanga umusaruro, no kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'amatungo maremare iyo bukozwe kijyambere, butanga umusaruro uhagije ku bijyanye n'amata n'ifumbire n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo maremare kugira ngo butange umusaruro bugomba kwitabwaho ,bugahabwa inkingo ku gihe kandi bukororerwa mu biraro.

Ibagiro rya kijyambere, ryubatswe ku buryo bugezweho, ryifashishwa mu gutunganya umusaruro w'inyama, n'ibikomoka ku matungo, vuba kandi byinshi.

Ubworozi bw'ingurube bwa kijyambere, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro vuba kandi mwinshi, bigafasha aborozi kwiteza imbere.

Inyubako yubatswe ku buryo bwa kijyambere, itangirwamo serivisi zo kuvura amatungo, uburwayi butandukanye, mbese wagira ngo ni kwa muganga.

Ubworozi bw'amatungo maremare, bukozwe kijyambere, aho abaganga b'amatungo barimo kwita ku nka, bayisuzuma uburwayi kugira ngo ivurwe.

Ubworozi bw'inkoko, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro, mu gihe gitoya. Haba ku borozi babwo, ndetse n'abacuruzi, bakabona amagi mu gihe gito.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro uhagije kandi mu gihe gito iyo witaweho ku buryo bukwiriye.

ubworozi bw'amatungo magufi buzwi nk'ihene ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro mu gihe gito kandi bugatwara imbaraga nkeya mu kuzitaho.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyangwa maremare na bwo ni bumwe mu bworozi bukenera kwitabwaho n'abaganga babifitiye ubumenyi n'ubushobozi, kugira ngo butange umusaruro uhagije.

Ubworozi bwamatungo maremare, bworowe kijyambere, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro ushimishije ku borozi babwo.

Agacurama ni kamwe mu dusimba dutangaje. Ari uburyo gateye : amababa yako, amaso yako, umunwa n'ibindi bice byako. Bituma gatera ubwuzu mu kukareba.

Inyamaswa z'inzovu, ni zimwe mu nyamaswa nini, zigaragara mu mashyamba atandukanye, hirya no hino ku isi, aho zikurura ba mukerarugendo baje kuzisura.

Impyisi ni zimwe mu nyamaswa z'agasozi, z'indyayanyama ziteye ubwoba, kandi zikundwa na ba mukerarugendo, bitewe n'amabara zifite.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bityo zikinjiza amadovize ku gihugu.

Shimpazi agasimba ko mu bwoko bwa maguge, kaba mw'ishyamba, gafite mu maso nk'ahumusaza, gashimishije kukareba.

Intare ni zimwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba z'inkazi, aho ba mukerarugendo baza kuzireba bakinjiriza igihugu amadovize.